Abanyeshuri bambaye iniforume y'ubururu bicaye ku ntebe, bafashe amakaramu ndetse n'impapuro z'umweru zishushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye.

Abana bato bambaye iniforume bari ku ishuri, bari kumwe na ba mwarimu wabo, aho mwarimu yambaye itaburiya y'umweru, abana bakaba bafashe impapuro zishushanyijeho ibintu bitandukanye, harimo inyoni.

Abanyeshyuri babiri bambaye karuvati zirimo ibara ryumukara , ndetse nibara ry'umweru ,bakaba bambaye namashati y'umweru , bakaba bafite compiyuta zibarambitse Imbere bakaba barikuzikoramo bakaba bazirambitse kumeza afite ibara ry'umutuku.

Igikoni kirimo umuntu w'umukobwa ucaniye amazi, ucaniye amavuta, ushaka nko guteka amafiriti cyangwa se guteka ibirayi.

Abantu bakora mu gikoni, bategura ibyo kurya. Bambaye ingofero z'umweru, bakaba bambaye n'imyenda y'umweru. Hagati yabo hakaba harimo amasahani arimo ibiryo, bakaba biteguye kubirya.

Intoki ndetse n'imashini idoda idoda imyenda, aho uyu muntu arimo kudoda umwenda ubudodo, kandi iyi mashini ikaba isa n'umweru ikaba irimo n'ibara ry'umukara.

Abantu basa nkaho bari kubaka bari gukora igikorwa cyo kubaka. Aho bamwe barimo gupakira indobo abandi bazifashe, ndetse hakaba hahagaze umuntu ufashe impapuro z'umweru. Ndetse n'inyubako isize irangi ry'umutuku.

Abantu bari ahantu mu nzu mu nyubako iriho amabati menshi, bakaba bari ku mashini ibaza imbaho, bakaba ari abantu babiri bambaye imipira y'icyatsi ndetse umwe yambaye ipantaro y'umukara undi yambaye iy'umuhondo.

Umubyeyi wambaye umupira wumukara akaba afite umusatsi wumukara , imashini idoda. akaba arimo kudoda imyenda akaba yicaye mu nzu irimo n'izindi mashini nyinshi cyane.